Ibi ni bimwe mu bikoresho by'ibanze kandi byihutirwa mu buvuzi, iyo umuntu agize imvune biba ari ngombwa ko bahita bifashisha umukasi maze bagakata igipfuko mbere yo kukimushyiraho bakabanza gushyiraho umuti.

Aha ni hatangirwa ubuvuzi bwihuse cyane. Umurwayi iyo ageze kwa muganga arembye, muganga ahita yihuta akajya kumufasha. Umuganga wambaye impuzankano y'umweru n'uturindantoki twu'umweru, ari gusuzuma umugore wambaye imyenda itukura.

Iyi ni nyubako y'ivuriro, itangirwamo ubuvuzi bw'ibanze cyangwa se ubuvuzi bwihutirwa, hahagazemo abazungu batatu, abamama babiri ndetse n'umupapa umwe, hakaba harimo n'Abanyarwanda batatu, abapapa babiri n'umumama umwe.

Aba ni abaganga, bakaba bari kwita ku kana kakiri gato, mu buryo butunguranye kandi bari kugaha ubuvuzi bwihutirwa, aho bari kongerera umwuka, bambaye amataburiya y'umweru.

Iki ni igikarito kikaba gifite ibara ritukura. Kiziritswe n'udushashi tw'umweru. Mu imbere harimo ibishashi birimo amaraso ahabwa abarwayi kwa muganga. Aho uyakeneye bayamuha maze bagatabara ubuzima bwe.

Iyi ni imwe mu miti ishobora kwifashishwa mu buryo bwo kugira ngo umuntu abone ubutabazi bw'ibanze, hakaba harimo amaga, ibinya ndetse hari n'udukarito n'udusanduku ibikwamo, ikaba iteretse ku meza aho wayihitamo.

Umuntu waguye mu kiraro. Akaba yarohamye mu nyanja ngari. Hejuru y'ikiraro hakaba hari abantu bari kumukuruza ibiziriko. Hakaba hari umwe wari wamanutsemo aramuzamura, maze bose bashyiramo imbaraga kugira ngo barokore ubuzima bwe.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba iryamyemo abarwayi, iyo ugiye kwa muganga urwaye kandi urembye, baba bafite ibitanda byiza maze bakaguha aho urara kugira ngo bakuvure bakwitaho utagirira ibibazo iwanyu.

Aba ni abakozi ba Croix Rouge y'u Rwanda, bakaba bahawe impamyabumenyi z'uko bamenyereye kandi bakorana n'icyo kigo, aho bari kwifotoza bigaragara ko bishimiye iki gikorwa.

Imodoka y'imbangukiragutabara ihagaze mu mbuga isashema amapave. Itwawe n'umugabo wambaye ishati irimo amabara y'umukara ndetse n'umweru. Ikaba iri gutambuka ituruka mu ivuriro.

Umukorerabushake wambaye ijire y'umuhondo mu mugonga hariho amagambo agira ati humura nuri wenyine akaba ateruye umuntu wambaye umupira w'icyatsi kibisi wari ugize ikibazo ari gufatanya n'abandi bambaye amajire y'icyatsi kibisi babakozi ba Croix Rouge.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro yubakishijwe amatafari ahiye ifite inzugi z'umweru, ikaba isize irange ry'umuhondo, isakaje amabati atukura ku mpande, hakaba hari ubusitani hari n'abantu baje gusaba serivisi.

Abantu bicaye mu ihema, bambaye impuzankano y'abajyanama b'ubuzima. Mo agati yabo harimo umugabo wambaye ibaji mu ijosi. Bigaragara ko yaje kubaha ikiganiro no kubahugura ku bijyanye n'imitangire ya serivisi z'ubuzima.

Ni abantu baje ku ivuriro, higanjemo ababyeyi bateruye abana nkuko bigaragara rero aha habereye igikorwa cyo gusuzuma ndetse no guha ikinini cya vitamine abana bakiri bato, ba mama babo babazanye.

Iyi ni inyubako y'ivuriro irimo abaganga batandukanye ndetse n'abarwayi bicaye mu ntebe zikozwe mu mbaho z'ibiti, hakaba hari umusore wicaye imbere ya mudasobwa ari kugenda yuzuza imyirondoro.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ikaba irimo ibitanda byinshi cyane bigiye bisashe, harimo ibiryamyeho abarwayi ndetse n'ibindi bitaryamye abarwayi, hari ibimanitseho inzitiramibu, hakaba n'akuma gatanga umuyaga igihe haje ubushyuhe bwinshi.

Inyubako y'ivuriro, hakaba hari abantu bahagaze mu busitani bwayo. Hari umugabo wambaye agapfukamunwa ndetse n'ishati y'amaboko maremare, akaba ari kugenda ababwira, bimwe mu byo bagiye guteza imbere.

Aba ni abantu bahagaze mu nyubako y'ikigo nderabuzima, hakaba harimo abaganga, abarwayi ndetse n'abagenzuzi. Izi nkuta z'iyi nzu zisize irange ry'umweru, hasi hakaba hari isima, harimo abantu bicaye ku bitanda.

Iyi ni inyubako y'ivuriro hakaba harimo umurwayi uryamye ku gitanda gisasheho amashuka, hakaba hari umuganga wambaye impuzankano y'abaganga ndetse n'uturindantoki ari kugenda asuzuma uyu murwayi.

Iyi ni inyubako yo kwa muganga ikaba irimo igitanda kiriho matera isasheho amashuka y'ubururu, akaba hariho akuma bashyiraho serumu ku barwayi bayikeneye, amadirishya afite irangi ry'ubururu ibirahuri bikaba bisa umweru.

Iyi ni inyubako y'ivuriro. Iyi nyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba isakaje amabati atukura. Harimo ababyeyi baje kuvuza abana ndetse harimo n'umugabo na we waje kwivuza. Hakabamo ibiti bibiri bitanga umuyaga.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ikaba irimo abantu benshi cyane, bagiye batandukanye, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, bitwikiriye imitaka, bakaba bafite icyapa, kigaragaza ko bagiye kwibuka ku inshuro ya mirongo itatu.

Inyubako y'ivuriro irimo ibitanda, harimo igitanda gisasheho ishuka y'icyatsi kibisi, hakabamo ibikoresho abaganga bifashisha bari kuvura, iyi nyubako ku nkuta hariho irange ry'umweru hasi hakaba hasashe amakaro.

Umuganga wambaye impuzankano y'umweru yambaye n'uturindantoki akaba ari aho basuzumira aho ari kugenda asuzuma imiti igiye itandukanye, buri kabati akomekaho akapa kagaragaza ibikorerwamo.

Aha ni hamwe mu hasuzumirwa uburwayi bugiye butandukanye cyangwa se inkingo, harimo umugabo wambaye impuzankano y'umweru, agapfukamunwa k'umweru ndetse n'uturindantoki tw'ubururu, afite icyuma cyabugenewe ,ari gupima.

Iri ni ivuriro hakaba harimo umwana w'umukobwa wambaye impuzankano y'umweru, aho ari kurebera mu cyuma gisuzumwa indwara, ndetse akaba ari mu bushakashatsi kugira ngo avumbure byinshi.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba irimo abaganga bagiye batandukanye bambaye impuzankano z'umweru, urukuta ruriho irange ry'umweru hakaba hari umuganga wicaye ku gatebe k'umukara gafite amapine aho ari kugenda akora ubushakashatsi.

Abanyeshuri bahabwa uburezi buhamye. Aba ni abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'ubururu bakaba bambaye udupfukamunwa, bari aho bakorera ibikorwa byo gushyira mu bikorwa amasomo biga.

Iyi ni inyubako isuzumirwamo imiti ndetse n'indwara, harimo umuganga wambaye impuzankano y'umweru akaba yambaye uturindantoki tw'ubururu. Afite uducupa turimwo imiti ari kugenda adutondeka ku ruhande kugira ngo yifashishe icyuma kirimo adupime.

Aba ni abaganga, bakaba bambaye impuzankano z'umweru arimo utobara tw'ubururu ndetse n'udupfukamunwa, bakaba bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwo mu bwonko ndetse n'imikorere y'ubwonko bw'umwana ukiri muto.

Umumama wambaye umupira w'icyatsi kibisi kiriho amagambo y'impine y'Ikigo k'Igihugu gishinzwe ubuzima RBC, yambaye isaha ku kuboko, afite indangururamajwi mu ntoki ndetse afite n'urupapuro ari kugenda abasomera ibijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange.

Umumama wambaye ibitenge birimo utubari dukura ndetse n'utwumuhondo, akaba afite litiro irimo amata meza cyane y'Inyange, akaba ari kugenda aha umwana we ngo asomeho, ni umwana uvuye kwiga mu mashuri y'inshuke, ibi bigatuma agira imikorere y'ubwonko imeze neza.

Abana bakiri bato bambaye impuzankano bose bicaye ku murongo bakaba bafite ibikombe aho bari kwinywera igikoma ni byiza kwita ku bana kuko bituma imikurire y'ubwonko bwabo ikura vuba.

abantu bari ahantu ku kibuga cy'umupira, ni sitade yubatse neza cyane igeretse inshuro ebyiri, bari gufana ikipe yabo bamanitse ibipfunsi aho bagira bati "tsinda tsinda" ni byiza kujya kwifanira.

Umumama wambaye ikote ry'umukara, akaba yambaye agapira k'icyatsi kibisi, afite indangururamajwi imbere ye. Ari gutanga ikiganiro ku bijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange.

Aba ni abajyanama b'ubuzima bari guhabwa amahugurwa, ku bijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange, bose bari guhugurwa, barakurikiye, bafite amakayi bari kwandikamo ibyo bari kumva.

Umuntu wambaye ishati y'igitenge akaba ateruye akana kambaye umupira w'umutuku urimo utubara tw'umuhondo, yicaye imbere y'umuganga wambaye impuzankano y'umweru, akaba ari kugenda amuganiza ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'imikorere byo mu bwonko by'umwana ukiri muto.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, hakaba harimo umuma wambaye impuzankano y'umweru, ari ahantu hari ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusuzuma ndetse no kuvura abarwayi, aho ari gufasha akana gato kavutse katuzuye.

Abantu bagiye batandukanye, harimo ababikira ndetse n'abandi batari ababikira, harimo abamama ndetse hakabamo n'abapapa, bakaba bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imikorere y'ubwonko muri rusange.

Umugabo wambaye agapira k'umweruru, kariho amagambo y'ikigo, gishinzwe ubuzima mu rwanda mumpine, RBC, akaba afite indangururamajwi, ari gusobanurira abaturage, ibijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe.

aba ni abantu batandukanye. Bakaba bari mu gikorwa cy'ubukangurambaga. Harimo abapolisi ndetse n'abaturage basanzwe, bakaba bafite icyapa cyanditseho ko kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko ndetse no mu muryango nyarwanda ari inshingano za buri wese.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, hakaba hateraniye abantu, bigaragara ko bari mu nama, imbere yabo hateretse ibikombe by'icyayi, harimo n'umumama ubyibushye cyane w'umuzungu.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe. Bakaba bari kuganira ku bijyanye n'ikibazo cyo mu mutwe ndetse n'imikorere y'ubwonko. Imbere yabo hari umuganga uri kubumva, akumva ibitekerezo byabo, maze na we akabagira inama.

Umu mama wambaye sharupe akaba yambaye ikanzu y'ubururu, afite telefone mu ntoki ameze nk'uri kurira imbere ye hakaba hari undi mama wambaye ipantaro ndetse n'ishati y'ubururu uri kugenda amuhumuriza kandi amukomeza.

Aba ni abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe ,bakaba bari bari kuganira ku bijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe.Inyuma yabo hari icyapa kigira kiti; <<tumenye imikorere na serivisi zitangwa na muganga.>>

Inyubako y'ivuriro, ahantu hatangirwa imiti. Harimo abari babiri, umwe yicaye imbere ya mudasobwa, akaba ari kureba imiti bandikiye umurwayi. Hakaba hari imiti iri mu dukarito ndetse n'iri mu ducupa, hafi aho ngaho.

Aha ni mu nyubako y'ivuriro aha bakaba bahatangira imiti hazwi ku izina rya farumasi, harimo amayetajeri ari hepfo ndetse no ruguru agereka inshuro eshatu cyangwa enye, hose hagiye harimo amacupa y'imiti.

Iyi ni inyubako icururizwamo imiti igihe itandukanye, iyi miti ikaba ifungiye mu makarito mato ndetse no mu ducupa duto hakaba hari n'iri mu bicupa binini, iyi miti ikaba ivura indwara zigiye zitandukanye.

Iyi ni inyubako icururizwamo imiti ikaba izwi nka farumasi, aha turi kubonamo amabara agiye atandukanye, ubururu ndetse n'umweru n'umukara, hakaba harimo amacupa ndetse n'amakarito arimo amoko y'imiti.

Iyi ni inyubako icururizwamo imiti, hakaba harimo imiti mu macupa ndetse n'iri mu makarito, imbere yayo hasashe amapave bigaragara ko ashaje, akaba ahegeranye n'andi maduka acuruza ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Iyi ni nyubako icururizwamo imiti hateretsemo mudasobwa irimo amagambo, hakaba hari n'ikindi kimashini gipima abarwayi. Iyi nyubako ikaba ifite irangi ry'umuhondo hakaba harimo n'ibyuma bigiye bitandukanye.

Iyi ni inyubako icururizwamo imiti igiye itandukanye. Imiti icururizwa aha iba iri mu dukayito duto, ikaba mu ducupa duto ndetse n'utunini, aho baguha umuti bakurikije uburwayi ufite ndetse n'ingano yawe.

Iyi ni inyubako icururizwamo imiti gakondo, ikaba ari inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bugezweho bw'amaduka, hakaba hashushanyijeho igiti ndetse n'igikarubamba, hakaba hariho amagambo agaragaza ko bavura.

Iyi ni farumasi icururizwamo imiti hakaba harimo imiti igiye itandukanye, hari iri mu ducupa hakaba hari iri mu dukarito ndetse hari n'ibikarito birebire biparitse, hakaba hari amayetajeri agiye atandukanye.

Aba ni abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, hakaba hari inzobere mu by'ubuvuzi zaje kubaha amahugurwa. Bose bateze amatwi, bari gusobanuza, bagasobanurirwa kandi bagasobanukirwa.

Abantu bari mu muhanda wa kaburimbo biganjemo urubyiruko. Bakaba bari mu gikorwa cy'ubukangurambaga. Bafite icyapa mu ntoki kiriho amagambo agira ati "rubyiruko nimwe hazaza heza h'u Rwanda, irinde virusi itera Sida, ipimishe uyu munsi'.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe hakaba habereye igikorwa cy'ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuvuzi cyabereye ahantu mu isantire hakaba hari abahanzi baje kubasusurutsa kandi banabibutsa insanganyamatsiko y'uwo munsi.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari gusobanurirwa ibijyanye n'ubuvuzi ndetse bakaba bose bateze amatwi, bari gutanga udukingirizo aho hari icyapa kigira kiti: <<kugakoresheje neza uba wirinze uburwayi>>.

Aba ni abantu bari mu gikorwa cy'ubukangurambaga, bakaba bambaye imyenda isa, aho abari imbere bafite icyapa kiriho igishushanyo cy'umubu haciyemo akarongo gatukura, hakaba hari n'amagambo agira ati "birakureba rinda umuryango wawe Malariya".

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, akaba ari gucuruza imiti gakondo, iyi miti ifunze neza mu macupa ameze neza, harimo amanini ndetse n'amato, uyu mugabo ni inzobere mu by'ubuvuzi gakondo.

Ubu ni ubwoko bugiye butandukanye bw'umuti wa gakondo cyangwa se imiti ikomoka ku bimera ho bayitunganyije, iteretse ku meza aboshye mu biti, bimeze neza, ikaba iri mu gacupa k'umukara.

Umugabo ukora imiti ikomoka ku bimera cyangwa se imiti gakondo akaba afite igicupa ari gushyiramo umuti, imbere ye hari ibindi byinshi cyane ataratunganya ndetse n'ibiri mu ndobo, inyuma ye hakaba hari ibindi byinshi yarangije biri ku tuyetajeri.

Iki ni kimwe mu bihingwa bivamowo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, kikaba kizwi nk'umuravumba, aho uvura indwara cyane cyane izo mu buhumekero.

Umuti gakondo usanga utegurirwa ahantu hatangaje. Uyu ni umugabo uri gusekurira umuti gakondo mu isekuru ibumbye mu cyondo, aha rero arawutunganya maze akawunywa.

Uyu ni umugabo wiziritse ibisaro, akaba yambaye imyenda bigiye bitandukanye, imbere ye hari udukono n'uducuma ndetse n'ibyungo byamenetse, akaba ari umupfumu, umupfumu nawe ari mu bavuzi gakondo.

Ibi ni bimwe mu bimera bivamo umuti gakondo, hakaba hari amababi ndetse bikaba bizengurutseho inzuki nyinshi cyane, ibimera bikorwamo umuti mwiza cyane kandi ukavura abantu.

Iki ni igihingwa kizwi nk'umwenya kikaba gifite ibara ry'icyatsi kibisi, iki gihingwa ni kimwe mu miti ivura kandi ya gakondo aho kivura indwara zigiye zitandukanye cyane cyane izifata mu buhumekero.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima hakaba harimo imiti igiye itandukanye y'abana iri mu macupa, hari iri mu macupa y'umukara afite imipfundikizo y'umutuku ndetse n'andi ari mu macupa y'imikara ariko afite imipfundikizo y'umweru.

Aha ni mu kigo nderabuzima, hakaba hateraniyemo ababyeyi baje kwivuza, hari umuganga ubahagaze imbere, ari kubabaza ibyangombwa, aho nabo bari kumusubiza, akababwira ko aje akabaha serivisi.

Inyubako y'ivuriro ikaba ifite inkuta zisa ubururu hakaba hari umumama uri guca mu mbuga yaho wambaye ibitenge ndetse afite ishakoshi ku kuboko, kuri iyo nyubako hariho igishushanyo cy'umumama n'umupapa bafite abana babiri, aho bagira bati" Girubuzima."

Aba ni abantu bari mu kigo nderabuzima bakaba baje kwivuza, imbere yabo hari umugabo uri kugenda yandika amazina yabo uko baje bakurikirana higanjemo abamama bateruye abana bakiri bato.

Iyi ni inyubako icururizwamo imiti y'amatungo ndetse n'ibimera bihingwa ahangaha, hakaba hariho ibishushanyo by'inka, imbwa, ingurube, ihene ndetse n'inkoko.

Inyubako y'ivuriro ikaba irimo ibitanda bigiye bitandukanye, harimo igitanda kiryamyeho umurwayi ndetse buri gitanda kimanitseho inzitiramibu hakaba umwana wicaye mu kagare k'abafite ubumuga.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ikaba isize irangi ry'ubururu, isakaje amabati y'ubururu, imbere yayo harikandagira ukarababe ebyiri, hakaba hari abantu bicayemo, baje gushaka serivisi, kuri iyo nyubako hariho umuryango, hakaba n'amagambo agira ati girubuzima.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima, hakaba harimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru. Imbere hari akabati kariho indorerwamo. Iyo ugiye kwivuzayo uburwayi bw'amaso, baguha indorerwamo.

Inyubako y'ivuriro, iyi nyubako ikaba ifite inkuta zisize irangi ry'ubururu harimo abantu baje kwivuza, hari umugabo uri gukandagira kuri kandagira ukarabe ihari y'umweru iri hagati y'indabyo ebyiri zikikije akayira.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba isize irangi ry'ubururu, isakaje amabati y'ubururu, imbere yaho hari ikigega, izengurutswe n'ibiti byiza cyane birebire bitanga umuyaga ndetse n'amahumbe.

Uyu ni umuganga wicaye akaba ari ko umubyeyi umwicaye imbere waje kwivuza, uburwayi afite arimubaza agenda abyandika mu ikayi, imbere ye hari agakarito karimo imiti ndetse na telefone aho ari kumwandikira.